Inama irimo abantu benshi batandukanye. Ubona ko harimo n'abanyamahanga. Bateze amatwi, bari kumva ibiri kubera muri iyo nama. Inama iyobowe na Minister w'u Rwanda.

Umubyeyi usa nkaho akuze n'abandi bantu bamuhagaze inyuma ndetse n'akana k'agahungu kamwicaye iruhande, imbere ye hari undi mumama urimo usa nkaho agira ibyo ababaza akaba yakwandika.

Abana babiri b'abahungu, bari ahantu hari ikigega gicometsemo ihombo, ubona ririmo rimena amazi. Narimo bakaraba intoki, ubona ko bishimye.

Abanyeshuri bari ku ishuri bageze mu gihe cya poze cyo kuba bafata ifunguro, barimo barya ubona ko bishimye.

Ibi ni bimwe mu bintu buri muntu wese akora, abe umwana, umubyeyi cyangwa se umugabo, kujya gushaka amazi ni ingenzi kuko umuntu udafite amazi habe mu rugo cyangwa se ahandi hantu aho ari ho hose waba uri, biba ari ikibazo kuko amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi bikenewe muri ubu buzima.

Gukaraba intoki n'amazi meza, ukoresheje isabune ku mwana, ni bimwe mu bintu bituma atarwaragurika. Ni yo shusho nziza igaragara hano, imbere yanjye.

Hamwe mu hantu ubona ko haba hari amazi y'isoko, bajombye itiyo mu butaka amazi amanukamo akaza akagira ahandi hantu ahagararira, hari umugabo urimo usukura intoki ze.

Inama irimo abantu benshi cyane batandukanye, harimo abamama, ndetse n'abantu bakuze, abazungu, imbere yabo hari umuntu usa nkaho ariwe uyoboye inama, urimo ubaganiriza, bamuteze amatwi bari kumwumva.

UNICEF ni ikigo cyita ku mpunzi, kikaziha ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibindi byose bakeneye. Urabona uyu mugabo asa nkaho ari gukorera umwana ukiri muto ijerekani, basetse, bishimye.

Abantu baje gushaka amazi harimo ababyeyi ndetse n'abasore n'abandi baje bitwaje n'amagare yo gutwararaho amazi, batonze umurongo kugira ngo bamenye uko bakurikirana.

Gukaraba intoki ku munyeshuri ni ibintu by'ingenzi, cyane nko mu gihe ari ku ishuri, kuko ku ishuri afatana na bagenzi be agakora ku bikoresho akoresha ku ishuri, bikaba byatuma yandura mu ntoki, akaba afite umwanda mwinshi, uyu mwana arimo arakora isuku y'intoki kandi ni bimwe mu bintu akeneye.

Inkingo cyangwa gukingiza umwana ni bimwe mu bintu bituma akura vuba, agakurana imbaraga, iyo utamujyanye kumukingiza akiri mutoya bituma agwingira ntakure neza mu mikurire yiwe.

Umumama ukuze wavuye kuvoma yikoreye indobo imwe indi ayitwaye mu ntoki bivunanye cyane ariko amazi ni ingenzi mu buzima kuko tuba tuyakeneye ntacyo wakora udafite amazi.

Inama ihuza abantu baturutse ku Isi hose, harimo abanyafurika, abazungu ndetse n'abandi bantu bose baturutse mu bihugu byabo baje bahagarariye.

Gutoza umwana gukaraba intoki n'isabune, kandi neza, ni bimwe mu bintu bituma umwana agira isuku. Kuko intoki z'umwana aba yazikojeje mu myanda myinshi, iyo azikojeje mu byo kurya, aba ariye mwanda mwinshi. Iyo umutoje kuba yazikaraba akiri mutoya, biramufasha.

Abagabo n'abagore ndetse n'abana, bari kwitegereza umubyeyi uri gupompa kuri ryavomero rya kera. Ivomera kugira ngo rizane amazi, ubanza gukaraga usa nk'uzamura unamanura, ubundi amazi akaba yamanuka ahabugenewe. Umwana arimo na we avomera amajerekani.

Umumama ukuze usa nkaho ari hejuru y'imyaka mirongo itanu. Uvuye kuvoma wikoreye ijerekani. Imbere ye hari akana n'inyuma ye hari akana bumwitegereza.

Ahantu hahuriye abantu benshi cyane, bisa nkaho bafite icyo bahuriyeho b'ingeri zose, abamama, abapapa ndetse n'urubyiruko bategereje serivisi runaka baje gufata.

Akarima k'igikoni ni kamwe mu bintu bifasha abantu habe mu mijyi cyangwa se no mu byaro. Ni gahunda ya Leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo buri Munyarwanda wese abe yabasha kurya imboga kandi yiyejereje.

Umubyeyi uhetse umwana, arimo akora amasuku, ku bikoresho bye nk'indobo. Yagiye kubikorera ku mugezi, ahantu ari bubone amazi menshi, kandi ari bumufashe gukora ibyo akeneye.

Umuganga urimo gutera urukingo umugore, ubona ko bimubabaje cyangwa se atinya urukingo inyuma ye hahagaze umugabo.

Umwana w'umuhungu waje kuvoma yitwaje indobo zitwaramo amazi, urimo unywesha intoki ze amazi kuri robine.

Uruganda rutari rutoya cyane, runini kabisa bihagije. Rurimo ibyuma byinshi bitandukanye, umuntu agenda azenguruka areba ko nta kibazo kirimo ntacyaba cyangiritse.

Iyi World Food Program ni ikigo gishamikiye kuri UN, gifasha kuba ahantu hose habaye ibiza cyangwa n'ibindi bisa nkabyo, haboneka ikijyanye n'ibiryo n'izindi mfashanyo zikenewe. Ni ikigo cyiza cyane.

Umugabo w'umucuruzi ndetse n'undi umuhagaze iruhande, n'abana benshi, barimo bareba undi mugabo ufite ikintu cy'icyapa, asa nk'aho abasobanurira ibyaba biri kuri icyo cyapa.

Umugezi muremure utemba, urimo umugabo cyangwa se umusore, urimo woza igare rye ndetse harimo n'umukobwa, wagiyemo agiye gushakamo amazi, yadubitse ijerekani.

Ahantu hanini kandi hisanzuye, ubona hari urugomero rw'amazi runini, ruriho abantu barimo bagendera ku duhanda twabugenewe turi inyuma y'urugomero, ndetse inyuma yaho hari n'inzu nini isa nk'aho ari yo itunganyirizwamo ibindi.

Abantu benshi bari mu nama, bafite ibyo bari kuganiraho kandi ubona ko bateze amatwi ubayoboye. Harimo n'abanyamahanga ndetse n'abanyafurika. Ubona ko bahawe na kacyayi.

Umu mama wagiye gushaka amazi, uteruye umwana wamwihambiriyeho n'igitenge, ubona ari guseka asa nk'uwishimye.

Iyi ni imwe mu nama zijya zibaho mu Rwanda, zizamo abantu b'ingeri zitandukanye batumirwa na Leta y'u rwanda, Abanyamahanga, Abazungu, Abanyafurika bagenzi bacu, n'abandi bose bashaka kuyitabira.

Abantu benshi kandi batandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse babaye benshi ku buryo harimo n'abahagaze abandi bicaye, bari kumva ibyo uyoboye inama cyangwa se ibyo baganiraho avuga.

Ivomero rusange ni ahantu umuntu aza gukura amazi yo kujyana mu rugo, ariko bitabujije ko hari n'abantu aza aje kuhafurira, kuba yahogereza ibintu runaka ndetse no kuba yakoza abana, ariyo shusho tureba imbere yacu.

Ubu ni bumwe mu buryo abantu bifashishije mu gihe hariho Corona, bagakora ibiti bibiri bishinze n'ikindi gitambitse hejuru bakazirikaho akantu k'ajerekani bagashyiraho umugozi bakagaca umunwa ku buryo ukandagira ukaba amazi yameneka mu ntoki, ukaba wakaraba ukikorera isuku mu ntoki.

Umwana w'umukobwa wagiye gushaka amazi ariko ubona ko yishimye cyane, arimo asukura intoki ze. Gusukura intoki ni kimwe mu bintu by'ingenzi kuko intoki z'umuntu ziba zifite umwanda mwinshi.

Ingomero cyangwa se inganda z'amazi, ni kimwe mu bintu bituma amazi atugeraho asa neza, arayungururwa, agacisha mu nganda, akaba yanafungwa cyangwa se bakayatanga mu marobine, akaza afite isura nziza cyangwa se nta mwanda urimo.

Umwana uri kuri robine n'igikombe bisa nkaho arimo avoma amazi yo kunywa, amazi ni ingenzi kuko umuntu udafite amazi mu mubiri aba afite ikintu kinini abura.

Izi ni zimwe mu ngomero z'amazi zitanga amazi mu mijyi ndetse n'andi mazi aba agiye afunze mu macupa cyangwa n'ibindi bintu, zitanga amazi menshi kuko zigemurira imijyi hafi ya yose.

Abantu basa nk'abari mu nama benshi bambaye inifomo imwe bakorera ahantu hamwe, bari kureba umuntu uri imbere yabo urimo uyoboye iyo nama, bafite ibitabo mu ntoki basa nkaho ari ibyo bifashisha bandika.

Abantu benshi bahuriye ku ivomo baje gushaka amazi, harimo abana bato, abamama ndetse n'abapapa, baje kureba ko babona amazi yo gukoresha mu buzima busanzwe.

Abana batoya bicaye bakoze uruziga, hagati yabo harimo abantu bakuru, inyuma yabo yicaye abandi bantu, hari n'abazungu na bo bicaye hagati yabo ubona ko bari kuganira, bambaye inifomu imwe isa.

Izi ni nshinge kandi nyinshi. Zifashishwa mu kuba wajomba mu gacupa karimo umuti, ugakurura ukaba wazamura ukawukoresha mu gihe runaka ukeneye kuba wawukoresha.

Umubyeyi cyangwa se umukobwa uri gufasha abana gupompa kuri rya vomero rya kera kugira ngo amazi abashe kuza, bavome batahe.

Ubuvuzi bw'abana ni kimwe mu bituma umwana w'uruhinja akura neza, harimo nko gukingirwa inkingo zose paka agize amezi cumi n'abiri, akaba yajya ku mfashabere.

Ahantu higanje urubyiruko, harimo abana batoya b'abakobwa n'ab'abahungu, bari ku mugezi baje gushaka amazi. Ndetse hari abamama batari bake.

Umwana urimo usukura intoki ze, ubona ko anabyishimiye. Intoki ni kimwe mu bintu kigira umwanda mwinshi, bitewe n'uko ahantu hose uciye uba uhafata, bisaba kuzisukura cyane kugira ngo ube wazikoresha.

Umupapa uri hagati y'imyaka mirongo itanu ubona ko yasetse, yishimye cyane, yicaye ku mugezi aho yagiye gushakira amazi yo gutwara mu rugo.

Umugore n'umugabo bagiye kureba umujyanama w'ubuzima, akaba arimo abaganiriza. Umugore aratwite. Hari byinshi iyo wegereye abajyanama b'ubuzima kimwe nk'abantu batwite cyangwa se urwaye indi ndwara runaka, baragufasha mu gihe utaragera kwa muganga.

Ikirango cyangwa se ishusho iri mu bice bibiri. Igice kimwe gifite ibara ry'umukara. Ikindi gifite ibara ry'umuhondo ririmo akantu k'akanyenyeri gakoreshejwe ibara ry'umweru.

Ababyeyi batandukanye bagiye gushaka amazi yo kuba bakoresha mungo. Amazi ni ingenzi, kimwe mu bintu bikoreshwa kandi imirimo myinshi nko guteka, gukoropa, kuba wasukura ibintu mu rugo.

Umupapa ndetse n'umumama baje gushaka amazi, hakaba hari undi uhagaze impande ya robine urimo ubaganiriza, abandi na bo bari kuvoma ngo barebe ko batwara amazi.

Kwita ku mwana ukiri muto ni bimwe mu bintu by'ingenzi biba bikenewe, aba babyeyi n'abana babo bafite abandi bantu babasuye, barimo kwita ku bana.

Abana bari ku mugezi basukura intoki zabo, ngo zise neza, isuku y'intoki ni ingenzi cyane, kuko intoki ziba zakoze imyanda myinshi, bisaba ko uzisukura neza, kugira ngo wongere ugire ikindi kintu uzikoresha.

Ibi ni bimwe mu bintu umuntu uwo we wese yakora, abe umwana, umuntu mukuru, n'undi uwo ari we wese, kuba wasukura intoki zawe ku mugezi, ukaba wafatanya amaboko ukanywesha amazi, ari byo uyu mubyeyi arimo akora na bagenzi be basukura intoki.

Umwana w'umuhungu wagiye gushaka amazi, ukiri mutoya cyane, urimo uvoma amazi mu ijerekani, ategereje ko yuzura kugira ngo abe yayikuraho ashyireho n'indi.

Umubyeyi ubona ko yafurishije amazi imyambaro, akaba ari kuri robine arimo avomaho ayandi yo gukoresha ibindi.

Umubyeyi wajyanye umwana we kwa muganga, muganga akaba ari kumuha imiti, biragorana ko umwana anywa imiti nta kibazo, ariko nicyo kintu gituma akira vuba biramufasha.

Umubyeyi wambaye neza, usa neza, uri kumwe n'urubyiruko. Bisa nk'aho bafite ibintu runaka bakurikiranye imbere yabo. Bari kureba cyangwa se bari kubwirwa.

Amazi menshi cyane asa nk'aho aturuka mu ihombo, ameneka ahantu. Umuntu akaba arimo ayoga mu ntoki, asukura intoki ze. Turabizi neza ko kimwe mu bintu byiza by'ingenzi bibaho, no gusukura intoki z'umuntu kuko zigira umwanda mwinshi, ni ibintu by'ingenzi.

Umuganga uri kureba akana k'agahungu ikibazo kaba kagize, agashyiraho igipimo ku mubiri wako, kari kumwe na mama wako, mama wako ahetse undi mwana.

Ibi ni bimwe mu bintu buri mwana wese yakoze, kujya kuri robine ukaba wanywesha amazi intoki, ariko biba byiza iyo ubanje ugakaraba ukabona ukanywa kuko intoki ziba zifite umwanda mwinshi cyane.

Iri ni ifumbiro rusange kandi ryaje kera cyane. Ritanga amazi meza, amazi yifashishwa mu mirimo myinshi itandukanye. Wayatekesha, wayogesha ibintu, yanyobwa iyo uyatetse aranyobwa nta kibazo atera.

Abaganga babiri bicaye, bambaye udupfukamunwa ndetse n'umugabo uhagaze inyuma yabo n'undi wicaye, urimo uterwa urushinge. bisa nk'aho ari inkingo.

Ahantu hahuriye urubyiruko rwinshi, ubona ko baje kureba robine itangaje, itandukanye na robine dusanzwe tuzi bisanzwe, ifite imyanya myinshi izana amazi menshi.

Umucecuru uri mumyaka mirongo inani usa nk'aho yishimye, wambaye igitenge kirimo amabara menshi, ari ahantu hari abantu benshi bamufotoye aseka yishimye.

Umugabo uri hagati y'imyaka mirongo itanu kugera kuri mirongo itandatu akurikiranwe n'inzego z'ubutabera, abanyamakuru baje, abaturage bamushungereye, baje kureba ibyaha amurega.

Ubwonko bw'umuntu ni cyo gice umuntu afite gikomeye. Kuko ni cyo gice gikontorora ibindi bice byose waba ufite ku mubiri, harimo amazuru, umunwa, amatwi, amaso, amaguru, amaboko n'ibindi bice byose waba afite ku mubiri. Ni yo mpamvu ubwonko ari cyo kintu cy'ingenzi umuntu afite ku mubiri.

Ni inama cyangwa se ahantu abantu bari kuganirira. Bafite ibintu byinshi barimo bakora bigaragara nkaho bari kwiga ibintu bitandukanye.

Abantu batari bake basa nk'aho bakurikiranye inama runaka bahuriyemo. Basa nkaho hari umwe ubayoboye, abandi bakaba bateze amatwi bari kumva ibivugirwa, muri iyo nama.

Kuganiriza umuntu ufite ikibazo ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kuba yakongera ubwonko bwe kuba yabusubiza ku murongo ntakomeze gutekereza kuri icyo kibazo yagize uyu mubyeyi ukuze arikuganirizwa kugira ngo arebe ko yakongera akamera neza.

Kurwanya ihohoterwa ni kimwe mu bintu buri muntu wese yakabaye akora iryo ari ryo ryose, abashinzwe umutekano polisi, abanyerondo, abasirikare ndetse n'umuturage kuko ni ibintu bifasha mu buzima, umuntu wahohotewe biba ari ibintu bikomeye cyane kuri we.

Abaturage benshi b'ingeri zose, harimo abagore, abagabo, abana batoya n'abakecuru, bafite amadarapo y'Igihugu cy'u Rwanda ubona ko bishimye cyane.

Abana b'abakobwa babiri, umwe asa nkaho arimo aganiriza mugenzi we, bafite akantu bashyizemo umucanga, baterekamo utuntu tw'udupupe bimeze nk'ubugeni.

Umwana w'umusore ubona ko ubuzima bumugoye, wicaye hasi ahantu hari umwanda, umeze nka ba bana baba baba ku muhanda ariho bibera.

Umugabo ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kuko ubona ko imyitwarire ye ariko ibigaragaza, asa nabi, yambaye nabi, afite imyanda myinshi imuri iruhande, ndetse n'ibyo ateruye ni imyanda.

Umukecuru ukuze wicaye ahantu imbere y'iziko atetse. Imbere ye hari igikombe ndetse n'umufuniko upfundikiye isafuriya, ari gukoroga ibyo atetse. Iruhande rwe hari n'inkoko.

Umukecuru ukuze cyane, wambaye igitambaro mu mutwe, wambaye ishanete cyangwa se urugori mu ijosi n'amaherena, asa nkaho hari icyo yitegereza imbere ye.

Umumama ukuze uri kugaragaza umujinya mwinshi cyane bitewe n'uburyo isura ye yagize, arakaye cyane bigaragarira buri muntu wese, amaso ye ndetse no mu gahanga ke hikunje kubera umujinya afite.

Umwana w'umuhungu uri ahantu mu kizu kitarimo undi muntu, gisa nabi na we asa nabi, yambaye ubusa nta mwenda yambaye, ubona ko afite ikibazo runaka.

Abasaza basa nkaho bakuze barimo babyina, bambaye imikenyero ndetse n'amashati y'ubururu ubona ko bishimye cyane, bishimiye ibyo barimo.

Aha ni hamwe mu hantu hari amazina y'abantu benshi banditse ku gikuta bazize Jenoside muri mirongo icyenda na kane, abantu bajyayo kwibuka bakubaha cyangwa se bakunamira imibiri y'aba bazize jenoside muri mirongo icyenda na kane.

Umusore w'inzobe, wambaye agapira k'umuhondo, usa nk'aho ari muremuremo, wishimye cyane, wasetse cyane, ufite ibyishimo byamurenze.

Abantu batanu bicaye ubona ko harimo umwe muri bo urimo ubaza amakuru cyangwa se ubavugisha ariko afite ibyo ari kwandika, ni musore, umukecuru usa nk'ukuzemo, umwana ndetse n'umumama n'uwo ubabaza ibyo ari kwandika.

Umugabo ufite ikibazo gikomeye kugera naho byamuteye agahinda amarangamutima ye akazamuka, akaba yamanuye amarira akanarira.

Umugabo wegamye ku gikuta ahantu wenyine, ubona ko mubyukuri afite ikibazo kandi gishobora kuba kimukomereye, ari kureba hejuru asa nk'aho hari ikintu areba.

U,muntu usa n'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'uburyo agaragaramo, afite imyanda myinshi yambaye imyenda yacitse. Asa nabi ndetse no mu maso inyuma ye hari imodoka.

Umusore uri hagati y'imyaka mirongo itatu cyangwa mirongo ine ubona ko yishimye cyane yasetse, uri ahantu ubona ko hasa nkaho ari muri laboratwari yicaye.

Kwita ku bantu bafite ubumuga cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe ni kimwe mu bintu bibafasha, urabona ko aba bantu, barimo bafasha aba bana kubereka uko biborosa bagasukura amenyo yabo agasa neza.

Akadodo cyangwa se akandi kantu kose kaca mu ryinyo, ni kamwe mu kintu umuntu akoresha, atuma amenyo yiwe, hagati yayo hatazamo umwanda, cyangwa se ngo amenyo yegerane cyane. Birafasha cyane, ko nta myanda myinshi yakibika mu menyo ucishamo ako kadodo, cyangwa se buri kantu kose gashobora guca hagati mu ryinyo.

Kwita ku menyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi buri muntu wese akenera. Uyu mwana yitaweho kuko bari kureba ko nta kibazo afite mu menyo ye, ni bimwe mu bintu by'ingenzi.

Kwita ku menyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi buri muntu wese yakabaye akora, kimwe n'uyu mugabo, arimo arasukura amenyo ye akoresheje akadodo cyangwa se akandi kantu kose kaca hagati mu ryinyo, kuko bifasha amenyo kuba adafatanye cyangwa se umwanwanda uri hagati y'amenyo ukavamo nta kibazo.

Igice kigize umubiri w'umuntu. Aho bita mu kanwa. Aho bafotoye amenyo yose, uko ari mirongo itatu n'abiri. Bakagaragaza ifoto yayo.

Ubuvuzi bw'amenyo cyangwa kwitabwaho, ni bimwe mu bintu bifasha umuntu uwo ari we wese, abe umugore cyangwa umugabo, kuko ufite amenyo meza biba bigaragara neza mu bantu, ari byo uyu mubyeyi bari kumukorera, kumusukurira amenyo cyangwa se kureba iryangiritse ngo barikure mu yandi.

Akagozi cyangwa se akantu ako ari ko kose kafata mu menyo ukagacisha mu ryinyo, ni kamwe mu bintu bifasha, kuba ibyokurya by'ahera mu menyo cyangwa se amenyo yaba asa nabi hagati yayo, birafasha kuba wagacishamo amenyo yawe akongera agasa neza. Ni byo uyu musore arimo akora.

Umumama ndetse n'umwana we w'umukobwa arimo amwereka uburyo basukura amenyo bakoresheje uburoso ugashyiraho korogati ukaba wakiborosa kugira ngo amenye yawe ase neza.

Ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se kujya kwisuzumisha hakiri kare, ukareba ko amenyo yawe ameze neza, ni kimwe mu bintu by'ingenzi, kimwe n'uyu mwana muganga we ari gusuzuma amenyo ye ngo arebe ko nta kibazo afite.

Umugabo wagiye kwa muganga kwisuzumisha amenyo ye, ubona muganga arimo areba hagati y'amenyo n'ahandi mu menyo hatandukanye, ngo arebe ko nta kibazo afitemo.

Umwana w'umukobwa urimo ukora isuku mu menyo ye akoresheje twa tuntu bashyira hagati y'amenyo tukaba twakuramo umwanda ugiye wihishemo hagati y'amenyo.

Uyu ni umukobwa cyangwa se umugore, usa neza. Umubiri we urasa neza cyane. Asa nkaho ari kwerekana amenyo ye. Ni meza, ayagirira isuku kuko ntamwanda afite. Ni umweru pe!

Umuganga uri kwita ku murwayi we, amurebera niba amenyo ye nta kibazo afite, kwita ku menyo ni kimwe mu bintu bituma asa neza agahorana isuku.

Uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mama, urabona ko yishimye, ariko ibyishimo byiwe arabiterwa no kuba asa neza, yireba akabona ameze neza mu maso ye ntakibazo afite.

Umusa usa nkaho akuze, uri kwa muganga, wicaye ku ntebe asa nkaho yegamye, umuganga arimo amurebera mu kanwa ke, ikibazo yaba afite.

Aya ni amwe mu menyo, abaganga bigiraho, kuba bakura amenyo cyangwa se yanavura iryinyo. Arimo ararireba, agenda agira ibyo yiga, bimwe na bimwe.

Umuntu ubona ko ari umugabo, urimo wambara akantu gafata amenyo, kuba atagira ikibazo mu gihe waba uguye cyangwa se ukubiswe nk'igipfunsi ku menyo.

Ahantu bateguye itete nini hicayemo abaganga batandukanye abagabo, abagore, cyangwa se abakobwa, n'abahungu barimo bafasha abarwayi, umukobwa w'umuganga urimo urebera umumama mu kanwa ke areba icyo yabarwaye.

Umugabo w'umunyafurika usa nk'aho akuzemo, yitaweho n'umuzungukazi amugendesha, amukoresha siporo, zo gutambuka kugira ngo arebe ko yamererwa neza.

Umusaza n'umukecuru basa nkaho bakuze cyane ariko bagifite urukundo, bishimanye, bafatanye ku rutugu, umusaza arimo asoma umukecuru we.

Umusaza usa nkaho ukuze cyane uri mu myaka mirongo icyenda inarengaho, wicaranye n'utwana tw'udukobwa tubiri dutoya tukiri dutoya cyane, bisa nkaho bari gusangira. Kamwe kari kurya n'akandi kakarya, bakananywa ubona ko bishimye.

Umuntu uri mu zabukuru cyangwa se ukuze kwitabwaho ni kimwe mu bintu bimufasha kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, harimo nko gukora siporo, ukamufasha kimwe n'uyu muntu usa nkaho akuze cyane uri hejuru y'imyaka mirongo icyenda ari kwitabwaho bituma ubuzima bwe bumeze neza nta kibazo.

Muganga n'umurwaza iyo bishiranye bifasha umurwayi kuba yakira vuba, umusaza usa nkaho akuze cyane ari gufashwa n'umuganga we kugira ngo amupime arebe uko umuvuduko w'amaraso ye uhagaze.

Abaturage benshi bafite ibyo bahuriyeho bari kuganira, bisa nkaho ari inama y'ingenzi kuko buri muntu wese yateze amatwi ari kumva ibiri buvugirwe muri iyo nama.

Umukecuru ukuze cyane, uri hejuru y'imyaka mirongo inani, wicaye ahantu ku buriri mu nzu, asa nk'aho afite ikibazo, yifashe ku mazuru, afite igikombe mu ntoki.

Umukecuru ukuze uri mu myaka ya za mirongo icyenda, urimo uganira n'umukobwa w'umuganga ukiri mutoya, ubona ko bishimiranye, umwe afashe undi mu kiganza basekerana.

Umusaza ndetse n'umucecuru bakuze. Bicaye ahantu mu rugo. Umucecuru ari kwereka umusaza, ku gapapuro yari afite ibyanditseho. Umusaza afite imiti mu ntoki. Imbere yabo hari akandi kantu k'umweru.

Ababyeyi bari hejuru y'imyaka mirongo inani, bari ahantu hamwe bisa nkaho hari icyabazanye baje kumva cyangwa se baje kureba bateze amatwi.

Abamama babiri harimo umwe usa nkaho akuze cyane, n'undi ukiri mutoya bari kuganira bishimye bahuje urugwiro, uwakuze ari gukata imboga zirimo ishu, inyanya na kokombure.

Abasaza n'abakecuru basa nkaho bakuze cyane bari ku meza, barimo bafata amafunguro yabo, ariko ubona bishimye, bari kurya ibiryo bitandukanye nk'imboga n'ibindi.

Abantu benshi bicaye hamwe basa nkaho bari kuganira, batandukanye; harimo aba mama bakuze, n'abakobwa bakiri bato, ndetse n'abana bato, n'umunyamahanga umwe; bisa nkaho bari kuganira, n'umu mama usa nkaho ari kubaha igiteyi.

Umusaza n'umukecuru bari mu myaka nka mirongo inani inarengaho, bari ahantu heza hasa neza, bambaye imyenda isa, bisa nkaho bishimiranye ariko umwe muri bo ubuzima bwe bushobora kuba butameze neza akaba arwaye, bari kwitanaho umwe aha mugenzi we imiti kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umuryango w'abantu batatu, harimo umukecuru ukuze asa nkaho ari mu kigero k'imyaka mirongo inani n'umukobwa ukiri muto ndetse n'umwana mutoya urimo urya imboga.

Umusaza ukuze uri hejuru y'imyaka mirongo inani, ubona wicaye ahantu, imbere ye hari ikayi, afite na bike, asa nkaho afite ibintu arimo yandika.

Umumama ukuze uri kumwe n'umuganga we ari kumuha imiti ngo anywe afite ikirahuri cy'amazi cyo gufatisha iyo miti, ubona ko barebana, baganira, basa nk'abishimye.

Umukobwa se cyangwa se umumama ndiguha imiti ndetse n'amazi yo kuyinywesha umugabo usa nkaho akuzemo uri mu myaka agera nko muri mirongo itanu

Umusaza ukuze cyane wo mu myaka nka mirongo icyenda, urimo ukina n'akana gatoya asa nk'aho yaba ari nka sogokuru wako, yishimye arimo agakinisha.

Umusaza uri mu za bukuru, ukuze cyane, uri kwitabwaho n'umuganga we, kugira ngo amaraso yiwe akomeze atembere neza. Ari kumukoresha siporo; murabizi siporo ni ingenzi cyane.

Umusaza ukuze urimo witabwaho n'umuganga we ngo yongere arebe ko yatera intambwe ariko bifashishije akantu afasheho arimo agenderaho.

Umukecuru ukuze usa nkaho ari mu myaka ya za mirongo icyenda ndetse n'umusore n'undi mumama ukiri muto. Barimo bafata amafunguro yabo. Bamwe bararya imboga, abandi bakarya imigati.

Abantu batatu bari gukina amakarita bishimye cyane bafite ibyishimo byabarenze, harimo umukecuru ukuze uri hagati y'imyaka mirongo inani na mirongo icyenda. Abandi babiri umwe ashaka kuba ari mama undi ari umwana, ako bafite ibyishimo byinshi bisa nk'aho bafite ibintu byinshi byo kuganira byabashimishije.

Ababyeyi babiri bakuze bari gukora siporo kuko bamenye ko siporo ari kimwe mu bintu by'ingenzi umubiri ukenera kandi umuntu udakora siporo bituma asaza vuba byihuse.

Umusaza n'umukecuru basa nk'abakuze cyane, umwe ari kwita ku wundi, bisa nkaho umusaza afite ikibazo cy'uburwayi kuko yiteguye gufata imiti ye kugira ngo ubuzima bwe bwongere busubire ku murongo.

Umusaza n'umukecuru basa nk'aho bakuze cyane bicaye ahantu hamwe bari kureba muri telefone, imbere yabo hari ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti bisa nk'aho ari umwe muri bo utamerewe neza, wanyweye iyo miti cyangwa se uribuze kuyinywa.

Umubyeyi ujya gukabakaba mu myaka mirongo icyenda uri kumwe n'umukobwa ukiri muto basetse bishimye, bari ahantu heza hasa neza kwishima ni kimwe mu bintu bituma umuntu amererwa neza.

ilibyishimo ni ikintu kigoye kuba umuntu yakibona. Ariko ni nacyo kintu umuntu iyo abonye ubona bishimishije. Uyu muryango w'abantu batari bake ubona ko wishimye cyane bitewe nuki bahuje urugwiro.

Umusaza n'umukecuru bakuze, bicaye ahantu hamwe, bafashe ku rupapuro bose, bisa nk'aho bari gusoma ibyanditse kuri urwo rupapuro. Bari ahantu hanini hisanzuye, hari intebe nyinshi.

Aba bantu bahuriye ku bintu byinshi kandi byiza. Nk'ubucuruzi bw'imbuto ndetse n'inyanya. Basa nkaho bahuze kuko bari kuganira, kandi bose bateze amatwi nkaho ibintu umwe muri bo ari kubabwira ari ingenzi.

Umuganga witaye ku kumurwaza we ari kumufasha gukora siporo, ngo arebe ko yakongera agatera intambwe. Umusaza usa nkaho akuze uri hejuru y'imyaka mirongo inani, ni byiza gukora siporo kuri we kugira ngo imitsi ye yongere inanuke.

Umubyeyi usa nkaho akuze, uri mu imyaka nka mirongo irindwi, urimo witegereza imiti agiye kunywa ubona ko atabyishimiye, ayifite mu kiganza ndetse afite n'ikiruhure cy'amazi bigaragara ko agiye kuyinywa.

Ababyeyi ubona bishimye banezerewe mu byo bari gukora, bari gusoroma icyayi cy'u Rwanda. Ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga menshi kuko gicuruzwa hanze no mu mahanga.

Umusaza uri hagati y'imyaka mirongo icyenda witaweho n'umuhungu ndetse n'umukobwa, ubona ko ari ibintu byiza cyane, bisaba ko umuntu ukuze muri iki kigero yitabwaho kuko nicyo gihe aba akeneye cyo kwitabwaho.

Siporo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bituma waba wumva umeze neza, kimwe n'uyu mumama arimo arakora siporo zifasha umugongo we kuba wakomera ukaba umeze neza.

Aba mama babiri basa nkaho bakuze ubona bari muri siporo, barimo bagenda bihuta ariko na none batiruka, bagenda barambura amaguru gakegake.

Ubu ni bumwe mu buryo aba baganga bari gukoresha, bakoraga mu gihe barimo bareba ko umuntu atanduduye covid-19, ni imwe mu ndwara yishe abantu benshi mu minsi yashize.

Iyi ni imwe mu nama yabayeho mu Rwanda ikurikiranwa n'abantu benshi, yitabiriwe n'ingeri zose, abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda ubwabo n'abandi baturutse mu bindi bihugu bitandukanye.

Abaganga batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, barimo bafasha abarwayi, abamama bakuze, n'abandi b'ingeri zitandukanye, babatera inshinge.

Uducupa dufunze neza bashyiramo ibipimo bapimye abantu barwaye indwara runaka, cyangwa se icyorezo runaka, aka ngaka, ni ako abantu barwaye icyorezo gituruka ku nkende.

Ibitaro byiza cyane bisa nk'aho byujuje ibisabwa byose, birimo buri kimwe cyose gikenerwa kwa muganga; birimo umurwayi uri kwitabwaho na muganga we, areba ko amerewe neza.

Ivuriro ryiza kandi rinini, rifite ibara ry'umweru; Nyarugenge distirigiti hosipitaliti, rifite jaride ihagije ndetse n'uduhanda tw'abagenzi bacamo.

Icyumba cyateguriwe umwana w'uruhinja ukivuka, gisa neza pe! Kirimo amabara atandukanye, giteguye neza, kirimo televiziyo, ibyuma bitanga umuyaga ndetse n'aho wakarabira, agatanda umwana azajya araramo, aho umuntu uje kumureba yakwicara.

Abantu bari imbere yaho inzu y'ababyeyi barwarira, inzu bakunze kwita ko ari inzu y'ababyeyi, bita materiniti babyarizamo cyangwa se hakarwarira abantu b'igitsina gore.

Farumasi ni ikintu cy'ingenzi kuko buri muntu wese arahisanga ku mafaranga yose ufite, hari nubwo ujya kwa muganga ukaba wabura imiti, ariko wajya muri farumasi ukivuza ukaba wahava ukize.

Ahantu hanini kandi heza, harimo uduhanda abantu batambuka bacamo, jaride zidukikije, abantu bicaye muri jaride, ndetse n'amazu menshi atandukanye, amenshi afite amabara y'umuhondo.

Iri vuriro rya Nyarugenge ni rimwe mu mavuriro atanga serivisi kandi ryiza cyane, ryakira abantu benshi, rifite ahantu hisanzuye, jaride nziza n'ibisabwa byose.

Ibitaro bisa nkaho ari binini cyane birimo umuntu uryamyemo imbere, asa nkaho afite ikibazo runaka cyangwa se ari umurwayi, inyuma hari abantu benshi ndetse cyane basa nkaho barimo bagenda ariko inyuma y'ibyo bitaro.

Aha ni hamwe mu hantu hagaragara neza hanini, hisanzuye hazakira abantu benshi cyane, serivisi yaho ni ntamakemwa, bakira buri muntu wese ubagana, nk'ibitaro byiza kandi bigaragarira amaso.

Izi ni imashini zigufasha kureba niba umubiri wawe nta kibazo ufite. Bagucisha mu cyuma bamara kugucisha mu cyuma, uyu muntu akaba yaza akareba muri mashine, akareba niba umubiri wawe umeze neza nta kibazo namba ufite.

Umwana w'umusore wicaye ku gitanda, ari kumwe n'akandi kana k'agahungu kakiri gatoya, karimo kitabwaho na muganga akumviriza mu gipimo icyo kaba karwaye.

Ikigo nderabuzima ni kimwe mu bintu bifasha abantu benshi kandi bitabatwaye ibintu byinshi nk'amafaranga, nk'iki cya Gisenyi, urabona ko hari abamama, abasaza, abana bose baje gufashwa kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Ahantu haryamye ababyeyi bari kwitabwaho n'umuganga mu bitaro, ubona ko umumama umwe ari kumwe na muganga arimo amubaza uko amererewe niba nta kibazo yaba afite, baganira uko ubuzima bwe bwaba bwifashe.

Icyumba gisa neza cyane gisa nkaho cyateguriye inama cyangwa se abantu benshi cyane bigaragara, ubona ko ntamuntu nuyu numwe urimo ariko giteguye giteguranye ubuhanga.

Akana k'agahinja gasa nk'aho ari bwo kakivuka kataramara igihe kinini, gateruwe na nyina ,muganga arimo akareba, agakoraho.

Ikigo nderabuzima ni kimwe mu bigo bifasha abaturage cyangwa se akenshi n'abantu bo mu byaro, kuba babona serivise z'ubuvuzi, mu gihe gito kandi cyihuse.

Abagabo cyangwa se abagore bicaye bategereje abantu kwa muganga, ariko bicaye ahantu ku cyumba cyitiriwe icyumba cy'ababyeyi cyangwa se materinite.

Ibikoresho byinshi kandi byiza bisa neza by'iterambere biri ahantu hamwe byo kwa muganga bisa naho nta na rimwe birakoreshwaho ariko bitegereje abantu bazabikoresha.

Abaganga bari kuganiriza umurwayi kugira ngo barebe uko bamuha serivisi nta kindi kibazo agize, hari uri kumupima ngo arebe indwara arwaye, undi uri kwandika ndetse n'uri kumuganiriza na mugenzi we umwicaye iruhande.

Ahantu hanini cyane hafite jaride nziza hisanzuye hakira abantu benshi cyane, ni rimwe mu ivuriro rinini riri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rihagije.

Ibitaro byiza birimo ibisabwa byose, harimo abarwayi, harimo n'abari gufasha abarwayi, nko kuba yamuhambirira supanete, ngo ye kumubangamira.

Iyi ni inzu ngari itangirwamo serivisi, hari abantu barimo basohoka abandi binjira ndetse n'abashinzwe umutekano nk'abasekirite bari mu kazi kabo.

Ububiko ubona ko ari bunini cyane bwisanzuye, burimo utuntu tw'utubati twinshi tubitsemo amaraso bongerera abantu mu gihe yabashiranye.

Inzu nini ubona ko yisanzuye isa nkaho yaba ikorerwamo ibintu byinshi ariko ni inzu bakunze kwita laboratoire. Isuzumirwamo indwara za Malariya. Umuntu ayihagaze imbere usa nkaho ari we umwe mu bakora aho ngaho.

Ibitaro ubona ko bifite ibisabwa byose, harimo abantu bipfutse mu maso hose, buri hantu hose nta hantu na hamwe ubona haca umwuka, abandi ari abarwayi baryamye ku bitanda.

Ababyeyi batatu, ubona ko basa neza, bambaye imyenda isa, bisa nk'aho ari uniform yaho bakora, bakaba bishimiye umuntu urimo ubafotora.

Umwarimu uri kumwe n'umwana, bafite n'ikintu bigiraho kimeze nk'amenyo. Inyuma yabo hari abandi bantu benshi, harimo n'Abanyamahanga bari kubitegereza ibyo bari kwiga.

Abantu benshi bitabiriye kujya gupimisha ibiro by'abana babo kugira ngo bamenye ko ubuzima bw'abana babo bumeze neza, ibiro byabo byiyongereye ndetse n'imirire yabo yagiye hejuru, bitewe nuko bifasha kumenya uko ubuzima bw'umwana wawe ahagaze.

Ahantu ubona hari amazu menshi kandi atandukanye, akorerwamo ibintu runaka, harimo jaride nziza ndetse hamanitse n'idarapo ry'igihugu, ubona harimo agahanda k'amaguru abagenzi bacamo bajyayo, harimo umuntu ugenda.

Umugabo wambaye ingofero wambaye n'agapfukamunwa, aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, muganga w'umumama cyangwa se w'umugore arimo amwitaho, agerageza kumufasha.

Inzu nziza ubona iri ahantu hisanzuye hatari ibintu byinshi. Isize ibara ry'umweru. Ni inzu y'ababyeyi imwe bakunze kwita materinete ababyeyi babyariramo.

Ibitaro binini kandi bigaragara nk'ibisa neza cyane byujuje ibisabwa ariko bitarimo abantu, umuganga ari kugenda azengurukamo areba igitanda kimwe ku kindi.

Abamama bakuze, ndetse n'abasore, n'abagabo, bari ahantu bicaye ku ntebe za parasitike, basa nkaho bafite umuntu ubaganiriza imbere yabo, munsi y'intebe zabo cyangwa iruhande rw'intebe zabo hari amacupa y'amazi yo kuba banywa, bambaye udupira tw'umuhondo ndetse n'ubururu busa nkaho bwerurutse.

Urubyiruko, abakecuru basa nk'aho bakuze, abasaza ndetse n'abakobwa bakiri bato. bari ahantu mu nama, bateze amatwi bari kumva ibiri kuvugirwa muri iyo nama. imbere yabo hicaye, abayoboye iyo nama.

Ufasha muganga, afite ibyo ari kureba ku rupapuro, ndetse na muganga afite umurwayi arimo afasha yandika ibyo amubwiye, imbere yabo hari imashini ebyiri, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Kwita ku murwayi wawe nk'umuganga ni kimwe mu bintu bituma amererwa neza kandi akaba yakira mu gihe gitoya, iyo umwitayeho neza ntabwo bifata igihe aryamye mu bitaro.

Ivuriro rishya bitewe nuko nta kintu kigaragaza ko iri vuriro ryari risanzwe rikora, nta miti irimo, nta barwayi, ibintu birimo byose ni bishyashya.

Amazu asa neza yateguwe neza, ubona ko afite ahantu hanini hisanzuye, harimo uduhanda tugenda tukagera kuri ayo mazu, atarafungurwa akiri mashyashya, ahagaze umwana w'umukobwa.

Ibitaro ubona ko ari binini cyane, bifite imyanya y'abarwayi myinshi igiye itandukanye, byujuje ibisabwa, bifite aho abarwayi babika ibikoresho ndetse n'ibindi byinshi, ubona ko ari ibitaro byiza byisanzuye.

Kurwara ni kimwe mu bintu umuntu atakwifuza kuko birakudindiza kandi bigira n'ingaruka, bisa nkaho aba bantu barembye ariko iyo witaweho neza na muganga, birangira uvuye mu bitaro kandi ukagarura ubuzima.

Abitaro cyangwa se ahantu ababyeyi babyarira. Aho bakunze kwita materineti. Ubona ko ari inzu nini itari nini cyane, ifite hanze hanini hisanzuye hari na jaride. Hasa nkaho hagifunze hataratangira gukoreshwa.

Aha ni ahantu heza hasa neza kuri buri muntu wese uhareba, hateguriwe abantu bakora siporo mu gihe runaka waba ugize ikibazo mu gukora siporo kwawe. Ni byiza ko siporo ni ingenzi mu buzima bwacu. Ni kimwe mu gice kigize umubiri wacu.

Inzu y'ababyeyi ni ahantu bageneye abamama cyangwa se igitsina gore, baba bategereje kubyara cyangwa se yabyaye, akaba ari ho ari mu gihe ategereje kuba yataha, ikibazo cye cyakemutse.

Inganda ni kimwe mu bintu bidufasha mu buzima busanzwe, kuko ibintu bivuyemo biza byizewe, byarebwe byasuzumwe nta kibazo na kimwe cyatera ku buzima bw'umuntu, kandi akenshi biba binafunze neza nta hantu umwanda waca winjira.

Ni kimwe mu bikoresho bifashisha kwa muganga, kiba gifite impande ebyiri. Uruhande rumwe, ni utuntu tumeze nka ekuteri, wambara mu matwi yawe, urundi ni urwo agenda akoza ku murwayi aho arwaye, yumva uko yaba amerewe.

Igitsina gore ni kimwe mu bantu badakunda gukora siporo cyane ariko biba bishimishije kubona umugore ukora siporo kuko buri muntu wese siporo ni ingenzi kuri we, abe umugore, abe umugabo cyangwa se n'umwana, bituma umubiri we ugomba kuba umeze neza.

Abantu bari kwiga ku kintu cyangwa se bari kuganira ku kintu runaka ariko bakoresheje ibyo bita imbonerakure, ubona ko ari abaganga ariko bafite byinshi bari kwigishwa n'umuntu utari hafi aho.

Umumama cyangwa se umukobwa ubona ko akiri muto, urimo winanura akora siporo, asa nkaho arimo akora siporo z'umugongo ndetse n'amaguru, yambaye ekuteri, arimo arumva ibintu kuri terefone.

Umwana w'umukobwa usa nk'aho amaze gukora siporo, arimo anywa amazi kuko iyo urimo urakora siporo uba watakaje amazi menshi cyane, biba ngombwa rero ko wongera ukaba wayanywa kugira ngo wongere usubizemo amazi uba watakaje.

Umusore cyangwa se umugabo ugize ikibazo mu ivi, arimo asa nk'uwiruka akora siporo, arahagarara afata mu ivi arimo yumva ikibazo yaba agize.

Uyu ni umuganga urimo gufasha umurwayi we ngo yumve niba ameze neza, amukandira mu ivi ndetse no mu itako yumva niba nta kibazo hafite.

Umuntu ufashe icupa akarimanika mu kirere ry'amazi rifunze neza ubona ko ikirere gisa neza n'akazuba karimo kavu.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu mikino, cyangwa mu gukora siporo, harimo baro ya basket, mu mupira w'amaguru, uwo bifashisha bakina rugubi, ingofero bambara bari gukina, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Kimwe mu bintu bikunda kugora abakinnyi ni imvune, ubona ko uyu muntu ashobora kuba yagize ikibazo cyo mu ivi, bakaba barimo bamugorora ngo barebe ko yakomeza imikino ye.

Umwana w'umukobwa urimo ukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko azi ibyo arimo akora, afite icupa ry'amazi imbere ye, cyane ko amazi ari ingirakamaro mu gihe umaze gukora siporo, kuba watakaje menshi bisaba ko wongera ukanywa n'andi.

Izi ni zimwe muri siporo kandi zifasha umubiri wacu kuba umeze neza, umugabo w'umunyafurika uri gutozwa n'umuzungu, afite agapira ka Rugby bisa nkaho ari wo mukino akunda kandi yaba anakina.

Abaganga ndetse n'abarwaza, ubona ko bose bahugiye ku mashini bari kureba undi muntu usa nkaho atari aho hafi, bari gukoresha iyakure baganira cyangwa se bakora nk'inama.

Ahantu hahuriye abantu benshi bicaye hari n'abandi bahagaze bisa nk'aho ari abaganga kuko imbere yabo hari agakapu bitwaza kaba karimo imiti y'ibanze yabugenewe mu gihe umuntu atarajya kwa muganga.

Ahantu ubona ko ari heza cyane, hari umusore muremure urimo ukora siporo, siporo ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, zituma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse n'imyanda irimo igasohoka, ibyo wariye bigasohoka, urumva ko ari kimwe mu bintu bidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Uburyo ushobora gutabarwamo mu gihe ugize ikibazo cy'uburwayi, mbere yuko bakwirukankana bakujyana kwa muganga. Unu ni bumwe mu buryo bufasha abantu benshi, bagize ikibazo mu rugo, batari bubone uko bagera kwa muganga byihuse. Bakagezwa kwa muganga bakiri bazima, nta kibazo kibayeho.

Kunywa amazi ni ingenzi kuko bituma umubiri wawe uhora utoshye umeze neza, ntakibazo na kimwe wagira mu gihe unywa amazi. Kimwe n'uyu musore asa neza, abikesha kuba anywa amazi.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bituma umubiri wawe uhora umeze neza, amaraso aba atembera mu mubiri neza, imikaya yawe imeze neza ku buryo nta ndwara n'imwe yapfa kukwataka.

Siporo ni ingenzi, kimwe mu bintu bigomba kuranga buri muntu wese, kandi ukagikora wumva ugishaka kuko ni ikintu buri muntu wese yakabaye akora, umunyafurika uri gufashwa n'umunyamahanga kuba yakora siporo ze neza.

Umukobwa ugaragara neza kandi usa neza bitewe n'uko akora siporo, siporo ni ingenzi mu buzima, ni kimwe mu bintu umuntu yakabaye akora kugira ngo umubiri we ugaragare neza. Nk'uw'uyu mwana w'umukobwa.

Bitewe n'uburyo uyu muntu ameze, ahagaze, cyangwa se yiteguye, ni umuntu uri tayari gukora siporo, kandi twese tuzi neza ko siporo ari kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu aba akeneye muri ubu buzima.

Amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi umubiri w'umuntu ukenera, kuko umuntu utanayakoresha haba hari ingaruka nyinshi, nko kujya kwa muganga hakaba havamo n'urupfu. Ariko urabona ko uyu muntu asa neza kuko abasha gukoresha amazi kandi akayakoresha neza, agakora na siporo.

Ibi ni ibintu byinshi kandi bifite aho bihuriye. Ibyuma byo muri jimu, amazi, ndetse na furuwi, na metero. Mugihe uvuye muri jimu uba ugomba gufata amazi ukanywa, kuko uba watakaje amazi menshi cyane. Ukarya imbuto, kugira ngo wongere imbaraga uba watakaje. Metero, mu mugihe haciyemo iminsi runaka, uba ugomba kwipima umubiri wawe, ukareba ko hari ikintu uri kwiyongeraho.

Amazi ni ingirakamaro, cyane nk'aba bantu bakora siporo, umuntu aba yatakaje amazi menshi, rero kunywa amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi kugira ngo asubizemo ya mazi aba yabashije gutakaza.

Umusore mwiza usa neza, ariko afite byinshi akesha kuba asa neza nk'amazi. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi umubiri ukenera, utanyweye amazi haba hari ingaruka nyinshi harimo no gupfa.

Nizera ko cyangwa se kuba waterura icyuma ukagira umubiri wifuza, ibi ari bimwe mu bigufasha harimo ibyo kurya byiza, amazi se, imboga, amagi, inyama, amata n'ibindi byinshi cyane bikubiyemo hano.

Siporo ni ingenzi ku mubiri w'umuntu. kimwe nuko kunywa amazi uvuye muri siporo, ari byiza cyane kuko bituma y'amazi uba watakaje wongera ukaba wayasubirana.

Izi ni zimwe muri siporo ziba zikenewe, cyane ko gukora umugongo wawe ugahora umeze neza, amaboko na yo akaba ameze neza nta mvunane zirimo, ndetse n'amaguru ni uko, urabona ko uyu mumama cyangwa se uyu mubyeyi arimo akora siporo nziza cyane.

Iki ni kimwe mu gikoresho gifasha cyane kandi ahantu henshi hatandukanye, mu gihe umuntu agize ikibazo cyo kuvunika cyangwa se cy'impanuka runaka, bamuterekaho bikabafasha kugira ngo abe yagera muri Ambulance bitagoranye.

Umwana w'umusore ubona ko ashyize imbaraga mu gukora siporo ze, arimo akora siporo z'umubiri wose. Ahanini ni amaguru ndetse n'umugongo n'amaboko, nibyo ubona ko arimo akoresha siporo.

Umusore ubona ushinguye urimo ukora siporo z'amaguru ndetse n'amaboko ubona ko ari umusore koko, siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu aba akwiye gukora uko waba ungana kose, ube umusaza, umukecuru, ibirafasha kuko bituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Umukinnyi wagiriye ikibazo mu kibuga, ubona ko bagenzi be bahagaze ndetse n'abanyamakuru bose bashungereye bari kureba uko bari kumufasha kugira ngo ikibazo ke kibe cyakemuka.

Abaganga ndetse n'abandi bantu, barimo bitegereza umurwayi, wagize ikibazo mu kuguru, bari kumuha insimburangingo cyangwa ikintu gifasha ukuguru kwe kuba yatambuka.

Siporo ni ingenzi mu buzima. Umuntu ukora siporo ubona ko aba atandukanye n'abandi. Urebye ku mubiri we cyangwa se uburyo imiterere ye iba imeze, uba ubona ko bitandukanye n'iby'umuntu udakora siporo. Umusore bisa nkaho yakoraga siporo, akaba yazanye icyuya cyinshi, bigatuma afata amazi akaba yakimenaho.

Siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu aba akeneye mu buzima. Urabona ko uyu umuntu cyangwa se uyu musore asa neza bitewe nuko akora siporo zihagije. Arikwimenaho amazi nk'umuntu wakoze siporo nyinshi cyane.

Nk'ababyeyi biba byiza gusuzumisha umwana ukiri muto ungana nk'uyu amenyo ye, Kuko amenyo ni kimwe mu bintu cyandura mu gihe gitoya, mu gihe udakurikiranye umwana akiri muto. Biramufasha kuko umwana ukuze afite amenyo meza, asa neza, aba agaragara neza.

Uru ni rumwe mu rubyiruko rwitabiriye siporo. Bari gukoreshwa siporo, bazikoreshezwa ahantu mu kibuga cya basketi. Siporo ni ingenzi, siporo zifite byinshi bifasha ku mubiri. Bituma amaraso atembera neza, igogora rigakora neza. Ni byinshi twavuga ku kijyanye na siporo.

Ifoto igaragaza imashini nyinshi zitandukanye zo kwa muganga, zifashishwa mu kuba wapima ko umurwayi nta kibazo yaba afite mu mubiri.

Kunywa amazi ni byiza, cyane nk'ubu umuntu aba avuye muri siporo. Bisaba ngo niba uvuye muri siporo, unywe amazi menshi kuko n'ubundi uba wayatakaje. Iyo winjije amazi watakaje, buriya ntagihombo uba ufite.

Siporo ngororamubiri ni ingenzi cyane. Zituma amaraso atembera neza mu mitsi, ibyo wariye bigasohoka, icyuya kigasohoka, bigatuma umubiri wawe uhora utoshye. Ukubonye wese akabona ko siporo zigufitiye umumaro.

Biragoye kubona umugore cyangwa igitsina gore bakora siporo, ni bake cyane, ariko buri muntu wese ubasha gukora siporo ni ingenzi kuri we, bituma amaraso yawe atembera neza mu mubiri, imyakura yawe igakora, ndetse umubiri wawe ugahora umeze neza.

Amazi ni ingenzi ku mubiri w'umuntu kuko iyo ubuze amazi bigusaba ko ujya kwa muganga bakaba bakongerera amazi kuko ahanini bikuviramo n'urupfu.

Agakapu kagendamo ibikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze, mu gihe umuntu ataragera kwa muganga, kandi akaba agize ikibazo nk'imvune cyangwa se n'uburwayi, haba harimo: imiti yica uburibwe, ibipfuko, imiti y'ibisebe, amaga yo kwambara, imikasi yo kwifashisha ukaba wakata ndetse n'ibindi byinshi.

Abamama cyangwa se ababyeyi barimo babagarira, ibihingwa byabo ngo barebe ko, byakwera neza. Bikazamuka neza. ni kimwe mu bintu bigira akamaro, kuko ibihingwa byitayeho, nibyo binatanga n'umusaruro mwinshi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa n'akantu ko mu mutwe, ko guhisha umusatsi, urimo ufunga imiti cyangwa se uducupa mu makarito yatwo.

Ibintu bisa nkaho biteguye, biri mu ibara ry'umuhondo. Biri mu isorori; umuntu yakozagamo ikiyiko, ubona ko areba uko bimeze; na tangawizi iruhande rwabyo, ndetse n'ibindi bintu by'ibyatsi.

Ibi ni bimwe mu bintu bica mu nganda bikavugururwa, bigafasha umubiri w'umuntu kuba wasa neza, harimo nk'ibi bigaragara, igikakarubamba, igikakabamba ni ikintu cy'ingenzi cyane gituma uruhu rwawe ruhora rukeye rugasa neza ntakibazo.

Ibi bintu byose ni ibintu bikozwe mu bimera. N'amavuta yisigwa, amavuta yo kurya, amavuta menshi y'ingeri zose. Turabizi twese neza ko amavuta akozwe mu bimera cyangwa se ikintu cyose gikozwe mu bimera, ari ikintu cy'ingenzi cyane ku mubiri wacu.

Ibihingwa byiza bisa neza, biteye ku butaka bwiza, busa nkaho bufite ifumbire, bwabonye n'amazi ahagije, ibyo bihingwa biba bigomba gusa gutya, kuko biba bifite ibisabwa byose.

Ibi ni bimwe mu bintu abantu bifashisha kandi bidatera ikibazo na mba. Ubutaka bafata bakavanga n'ifumbire ndetse bagashyiramo ingemwe zabo mu kintu runaka, akaba yatereka ahantu kikahakurira mpaka agishyize mu butaka nta kibazo kigize.

Uru ni rumwe mu rurabo, rwera rurandaranda ku butaka. Rufata ahantu hanini, rukeraho indabo zisanzwe, zitukura.

Ahantu hahinze ibihingwa byo mu bwoko bwinshi butandukanye, ubona ari ibihingwa bisa neza biri ku butaka bufite ifumbire, byateguwe ubona ko bifite ubuzima.

Kwita ku bihingwa se cyangwa se ibyo wateye harimo: ibishyimbo, ibigori, imyumbati, ibijumba ndetse n'amashyamba n'ibindi byose byera mu butaka ni kimwe mu bintu bituma bikura neza, kimwe nk'ibyo uyu musaza ari gukora.

Iyi ni imiti yavuguruwe ica mu nganda ikaza ifunze neza imeze neza, ariko iba yaravuye mu bimera cyangwa se ibintu bihingwa, inyuma yayo hari imbuto zitandukanye.

Ibi bintu byose uko bikubiye hamwe, bifite ishusho nini cyane, y'ibintu byakoreshwaga kera. Nk'inzu zabagamo kera, ni kimwe mu bintu biri kugaragazwa hano, ibibindi, uducuma, imiti gakondo yakoreshwaga kera, ariko ivuguruwe, n'ibindi byinshi cyane.

Izi ni ingeri enye z'ibihingwa biturutse mu butaka bwiza cyangwa se ubutaka bufite ifumbire, bwabonye amazi ahagije, ni bwo butaka bweraho ibintu bisa neza gutyo.

Izi ni zimwe muri puruduwi zicishwa mu nganda zigatunganywa, zikaza zimeze neza, wazikoresha ku ruhu ntizigire ikibazo ziteza. Ariko ibyinshi biba byaraturutse mu bihingwa byo mu butaka.

Imiti, ji, amavuta, byose bifite aho bihuriye. Ni ibintu bituruka mu buvuzi bwa gakondo. Ariko bikoreshwa cyane. Bifunze neza bitagira ikibazo na kimwe biteza, kuko biba bikoranye ubuhanga.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bintu byinjiza amafaranga menshi, abanyamahanga benshi batari bake basuye ahantu heza ubona ko hasa neza cyane, hari ibiti bisa neza, amazi ashoka ndetse n'amabuye ahakikije.

Ibi ni bimwe mu bintu bihingwa mu butaka, bakabikuramo, bakabitunganya, bakabicisha mu nganda bikaza bifunze. Harimo n'igikakarubamba n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko bigira umumaro kuko birakoreshwa bikavura.

Ahantu hahinze ibihingwa bitandukanye, hasa nkaho hari n'agahanda k'abagenzi, ibihingwa bisa nkaho bifite ubuzima bitewe n'uburyo bigaragaramo, bitumye, bisa neza, ubona ko bifite ubutaka bwiza ndetse byabonye n'amazi.

Tangawizi ni kimwe mu bintu abantu bifashisha bateka mu cyayi ariko ni n'umuti, kuko iyo uyitetse urwaye giripe ari nyinshi, iragufasha kuba mu muhogo harekurana urumva ko ari umuti.

Ubutaka bwiza cyangwa se ubutaka bufite amazi, ni hamwe mu hantu hera ibyo wateyemo bikaza bisa neza, nta kibazo bifite ukaba wasarura umusaruro wifuza.

Uru ni uruhuririkane rw'amavuta cyangwa se n'ibindi byakozwe mu bintu bituruka mu butaka bagenda bagacisha mu nganda bikavugururwa bikaza bifunzwe neza bikaba byagira umumaro ku mubiri w'umuntu.

Ikirahure gisa nkaho kirimo fanta ndetse ku rundi ruhande hakaba hari kokombure n'icupa ry'amavuta, amavuta yo mu nganda ariko aba yaravuye mu bimera.

Ibyatsi cyangwa indabo n'ibindi bihingwa byose. Bifite ubutaka bwiza, bwera, bugwaho imvura ndetse n'izuba riringaniye. Ni uku byakabaye bisa.

Imiti myinshi itandukanye, imyinshi ikozwe mu bimera biri ahantu ku meza, mu isoko ririmo abantu benshi si ibyo bicuruzwa byonyine birimo inyuma yaho hari ibikapu ndetse n'ibindi byinshi biri gucuruzwa.

Iki ni kimwe mu gihingwa ubona ko gisa neza bitewe n'uko gishobora kuba giteye ku butaka bwiza cyangwa se aho giteye nta zuba ryinshi rihagera ndetse kibona n'amazi ahagije, ibyo ni bimwe mu bintu bituma ibihingwa bishobora gusa neza, ubona ko hari umuntu ugifasheho areba uburyo gisa neza.

Ibi ni ibintu bifite aho bihuriye kandi hagaragara, ibyinshi ni uko bica mu nganda bikavugururwa ariko byose bituruka mu butaka, ni ibintu dukoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi byose, harimo iyo mineke, inanasi, indabo, amajyane hafi ya byose bikoreshwa mu buzima busanzwe.

Ikawa ni kimwe mu bintu umuntu akenera mu mubiri kuko umuntu wayinyweye ntago agira amavunane. Ni kimwe mu bintu bihingwa kandi bigira amafaranga menshi ku bahinzi babihinga.

Igiti se cyangwa se igihingwa gisa nk'aho kiri ahantu hari ifumbire ndetse hatari izuba ryinshi. Kigeraho amazi. Kuko gisa neza bihambaye. Nta kibazo na kimwe gifite nko kuma cyangwa n'ibindi.

Ahantu ubona hari ubutaka bwiza, buhinzeho igiti cyangwa se igihingwa ubona ko gitoshye, kiriho amazi.

Iyi ni imiti itandukanye ya gakondo, bakoreshaga kera ndetse n'ibi ni ibyo bifashishaga basekura cyangwa basekuriragamo iyo miti.

Igiti kinini kiri hagati y'amazu, mu gahanda cy'umuravumba, ubona kiriho imiravumba myinshi kandi isa neza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho biba bimeze neza, bifunze neza, bisa neza, biba byaraciye mu nganda bigatunganywa bikaza ari umwimerere, ariko ibyinshi ni ibintu biba hari ibyaturutse mu bihingwa dukoresha bya buri munsi.

Ahantu hari imiti kandi ubona ari imiti myinshi itandukanye ifunze neza, ni imiti gakondo ikozwe mu bimera, iyi si imiti igikoreshwa cyane ariko umuntu uyishaka arayibona kandi iravura nta kibazo iteje.

Kapusine ni imwe mu miti ifasha abantu benshi kandi barwaye indwara zitandukanye, bayishyira mu nganda bakayitunganya ikaba yavamo n'indi miti myinshi itandukanye, urumva ko ni igihingwa cy'ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Bimwe mu bintu ubona biva mu nganda bigenda bigatunganywa bigafungwa neza, harimo ubuki ndetse n'ibindi biva mu bihwagari.

Igihingwa gisa neza ubona ko kitaweho cyane, kiri ahantu haztiye hagera urumuri ndetse ubona ko cyafashe amazi ahagije kugira ngo kibe cyasa neza cyane gutyo.

Ibiti cyangwa se indabo nziza zitaweho ziba zigomba gusa gutya, kuko ziba zabonye amazi, ubutaka bwiza ndetse n'akazuba karinganiye, ni cyo gituma igihingwa cyawe gisa neza.

Ubu ni bumwe mu buhinzi bukorwa, ariko bukorewe ahantu nko mu rugo cyangwa se n'ahandi, kuko ntaga aba ari ubuhinzi bugoranye. Ufata ikintu runaka ukaba wateramo igiti cyawe, warangiza ugashyiramo, ifumbire, butaka, bihagije ku buryo igiti cyerera mu rugo cyangwa kikaba cyakerera n'ahandi hantu runaka wagiteganyirije kitagiye mu murima.

Umuti usa nk'aho ufunze neza mu icupa, ariko ni imwe mu miti ikorwa mu bihingwa biba byarahinzwe mu butaka. Igikakarubanda kivura indwara nyinshi.

Ibi ni bimwe mu bintu bicishwa mu nganda bikavugururwa, bikaza ari ibintu by'umwimere, twisiga nk'amavuta ndetse n'ibindi nk'amasabune, ariko ibyinshi ni bimwe mu bintu biba byaraturutse mu bintu dukoresha hano hanze bihingwa nk'igikakarubamba.